Inama yari ihuje abantu bagiye batandukanye b'ubuyobozi, ubona ko bateze amatwi umuntu urimo araperezanta ndetse cyangwa aratanga sipici kuri bo bakaba barimo biriga ku bintu bigenda bitandukanye.

Inama yaririmo iraba, ibera ahantu runaka ikaba yatumiwemo abantu bagiye batandukanye, hakaba hari abicaye inyuma akaba ari na ba mister speaker cyangwa se bazi ibyo bagomba kuvuga, bicay’imbere bavuga ibintu runaka bari kuganira mur’iyo nama.

Ni urubuga bahuriraho ku kigo cya rura byerekana serivisi zitanga, harimo amaserivisi y'amapulikasheni netiwake imfarasitarakica, netiwake savisizi detse n'ibindige bigiye bitandukanye.

Iyi ni resitora cyangwa se aho turira, hakaba hari imiryango itandukanye iri gufata amafunguro, abasore inkumi abagabo n'abagore bose bakaba bagiye bisanga muri iyi resitora.

Ni umunara ufatiyeho amarusiva cyangwa se ibyakira amafurekanse y'amadivayisi tugenda dukoresha, amatelefone duhamagarana, se cyangwa ibindi bintu ubona ko afite amaseriveri menshi cyane.

Ni ibiro runakabona bitangirwamo serivisi zi zitandukanye za leta, hakaba hari abantu bagiye bica kumashini bashinzwe gutanga izo serivisi za leta.

System ya Rwanda Revenue Authority yo gutanga umusoro ku bakozi cyangwa se gutanga imisoro ku byo winjije, hamwe n'amasitance cyangwa amakashe la digitar agenewe mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Ni abakozi bakora mu muriro w'amashanyarazi, bari bahagaze ku ipoto, bari kugenzura ko amashanyarazi agenda neza kandi akagera aho agenewe kugera.

Ifoto igaragaza inzu zimeze nk'inganda hakaba harimo n'iminara ibiri n'imodoka itwara ibintu dukunze kwita ikamyo ubona irimo iraza izanye poroduwi.

Ni iminara ibiri iteganye itanga amashanyarazi ahantu runaka, ikaba iyo yaconze imitinga biciye mu nsinga zigiye ziyifashe, iyo minara ukaba ubona ko ari miremire kuko ari iminaya nyine.

Icyapa cyanditseho siti Rwanda hakaba hahagaze umugabo ku ruhande, yambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'Ijensi, hakaba hari akapa ka MTN, umu ajenti wa emutiyene na moto, ndetse n'abandi banyamaguru bari ku ruhande rw'umuhanda.

Ikigo gitanga serivisi z'ubuvuzi kizwi nka CHUK giherereye hano mu mujyi, hakaba ari muri parikingi yabo, aho bafite ibyapa bigiye biranga aho amaserivise cyangwa ubuvuzi bugenda bukorerwa ndetse ubona ko hari n'abantu, hari mu masaha y'igitondo.

Ibitaro bigaragara nka sehashika, aho harimo umudamu cyangwa se umugore wambaye ipantaro y'icyatsi ndetse na topu y'abaganga igaragara ko ari umuganga.

Ni imfungwa n'abagororwa bari kuzanwa ku kigo runaka, bakaba baherekejwe n'ababarinda, abasiriveya hamwe n'imodoka bavuyemo ziparitse imbere y'icyo kigo.

Ni umupolisi wahagaritse umugenzi akaba arimo aramubaza ibyangombwa, uwo mugenzi bisa nkaho ari umugabo ushaje ho gakeya ntabwo ashaje cyane, barimo baramubaza ibyangombwa by'imodoka ye.

Ishami rya polisi y'u Rwanda, riri mu nzu isa umuhondo iteye irange ry'umuhondo, idirishya n'imiryango y'icyatsi hakaba ahahagaze abapolisi babiri, imbere y'iyo nzu, hakaba hariho n'ubusitani uibona ko buri gukura.

Umukobwa mwiza ufite ibisuko wambaye umupira w'umutuku, akaba imbere ye hari mudasobwa, akaba ari kureba ibiciro by'ibicuruzwa.

Inteko nshingamategeko y'u Rwanda, irimo perezida wa repubulika nyakubahwa paul kagame, ndetse na bamwe mu ba minisitiri n'abadepite, inyuma hari idarapo rya eyase n'idarapo ry'u Rwanda.

Iyi inama yahuje ibihugu bigiye bitandukanye ndabonamo repubulika iharanira demokarasi ya Kongo, ndabonamo n'idarapo rya EAC nyuma hakaba handitse eregisheni, obuzave nasheni nk'aho bari barimo baratora itegeko se cyangwa umuyobozi runaka.

Ubumwe n'ubudaheranwa n’inama irimo iraba igamije ikintu runaka, ikaba irimo abayobozi babiri, imbere harimo umuyobozi w'umugabo wambaye ishati y'ubururu, hamwe n'umugore wambaye ikanzu, bakaba bari kuganira ku bintu bigiye bitandukanye.

Perezida wa Repubulika Nyakubahwa Paul KAGAME, aho yar’ari gutanga speech se cyangwa ijambo ku bantu bose bari baje mu muhango runaka, bigaragara ko bari bari muri stade amahoro Kigali.

Ni gare gare yo mu mujyi tuzi ikaba iparitsemo imodoka za kibiyesi izi ngizi zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ukaba ubona ni nko ku masaha ya saa munani aho nta bagenzi benshi baba bahari, cyangwa se nta akazi kenshi gahari.

Ni ibinyabiziga bibiri ikinyabiziga kikamyo tuzi nka hoho gipakira imicanga ndetse n'ibingibi tuzi nk'ikimoto tugenda dupakira ibintu bigiye bitandukanye ariko tukabipakira ku rwego rutoya byahatari bitari nk'ibikanamyo.

Imodoka y'ikamyo dayihatso isa nk'ijyanye ibicuruzwa, inyuma hari moto n'indi modoka ya toyota biyikurikiye gusa harimo umwanya uhagije.

Ni imodoka za kebi esi dukunda kugendamo turi benshi zirimo ziramamaza banki ya Kigali banki fu Kigali, hakaba hahagaze umuntu wambaye ijezi y'isengeri y'umutuka yanditseho mirongo itatu na rimwe y'ijinsi.

Ni imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, izi twita yutongo cyangwa se shirumuteto, ikaba ihagaze irindiye abagenzi, hakaba hicaye umu ajenti wa MTN hirya yayo ubona uri kugenda abikuriza ana bikiriza abagenzi.

Ni imodoka y'ikamyo izi tuzi nka fuso ikaba irimo iragenda, hirya yaho hari konsitarakisheni sayiti cyangwag se ahubakirwa inzu runaka cyangwa ibindi bikorwa by'ubwubatsi hakaba harimo n'abantu bagenda mu muhanda.

Ahakorerwa amagare aya tuze nka matabaro akaba hahagaze abagabo bageze muri barindwi, bari kuri ayo magare ndetse no mu muhanda akaba ari amamodoka arimo agenda aca mu muhanda ubakikije.

Imodoka ya hoho iri mu bwoko bwa ovo, imodoka ya kebiyesi zitwara abagenzi hamwe n'izindi modoka ziri kubisikana, ahegeranye n'ahari amabati y'ubururu.

Ni umuhanda urimo imodoka nini izi tuzi nka rukururana se cyangwa amakamyo, zikaba zegereye ahantu ubona hashobora kuba hari akabari kuko hari icyapa cya mitsingi ndetse urabona ko ari ahantu hari amahumbezi hatuje ntakibazo.

Inzu nini y'ubwishingizi bwa u a pa ku ruhande hari amasikariye maremare, cyane inzu nini umuntu ugiye kwinjiramo bisa nkaho ikorwa ubwishingizi.

Ni ikibuga cy'umukino w'intoki tuzi nka basikete boru kirimo itapi, ubona ari ikibuga cyiza cyane hakaba nta muntu uri gukiniramo, ariko ubona ni ikibuga cyarangije kubakwa kandi kijyanye n'igihe.

Ikibuga cy'umupira bagaragaza igice kimwe cy'izamu, hakaba ari ahantu hihitaruye kandi ubona ntabantu barimo baraakiniramo, ikibuga gifite tapi kandi kikaba ari ikibuga ubona cyiza cyane kiryoshye kugikiniramo cyane.

Ni ibyapa bibiri bishyirwa mu muhanda kimwe kigaragaza aho abanyamaguru bari bwambukire, ikindi kigaragaza rokasiyo y'ahantu ugiye handitsemo ko umuntu agiye Nyarugenge pesheni puraza cyangwa se wakata usubira inyuma ukaba ugiye muri kigali siti seta.

Ibyapa bibiri bigaragaza ahari ibitaro ndetse n'ahari ikigo cy'abanyeshuri, inyuma hakaba hahagaze abanyeshuri babiri ubona ko bari kuzamuka basa n'abavuye mu kigo, ndetse n'amamodoka abiri ya Behonse.

Icyapa kiri ku mupaka cyanditseho welcome to the Republic of Rwanda, hahagaze umuzungu uhetse umwana, bino byo kumuhekera imbere, akaba ahagaze mu busitani icyo cyapa nacyo gihagazemo ukaba ubona ari imihanda yinjira cyangwa isohoka mu Rwanda.

Ni icyapa cyo mu muhanda kigaragaza ahantu hari ibitaro, kikaba gifite umuzenguruko w'umutuku, ukaba uri mu mpande eshatu, ibyo tuzi nka tiriyangere ndetse n'ikimenyetso cy'umukara gikoze umusaraba, ukaba ukubona ko gifashe ku cyuma.

Moto yicayeho umumotari wambaye imyenda y'umukara iri guca aho bita mu kajagari ka mbere, ahantu hari umuhanda w'amabuye hakaba hari n'amazu agiye akikije uwo muhanda mbona ko harimo n'ibikorwa by'ubucurukuzi.

Ni inzu z'imiturirwa ziri muri Kigali hamwe n'inzu kadasiteri z'abantu babamo, hakaba hagaragara nk'ahantu hatuwe n'abantu benshi kandi bose bafite icyo bakora muri Kigali.

Ihuriro ry'imihanda y'igitaka aho bigaragara nk'aho hari imodoka iri ku ruhande, ndetse n'abanyamaguru babiri umwe ari kugenda yambaye umupira w'ubururu, n'ikabutura y'umukara ndetse n'undi uhagaze hirya nyuma ari kwifotoza.

Quartier ya Remera irimo kadasiteri nyinshi zifite amabati y'umutuku cyangwa se orange, bitewe n'uko ubibona, hakaba harimo ibiti byinshi, amazu abiri y'imuturirwa ndetse n'iyindi ubonako bakiri kuyubaka igeze mu marangira.

I Nyagatovu ni rokasiyo igaragara ko ituyemo abaturage benshi, kandi abaturage bose bakaba batuye mu bucucike, bikaba byazashyira ubuzima bwabo mu kaga.

Ni utuzu dufatirwamo ibiryo tuzwi nk'amaresitora gusa twubatse ku muhanda aho umuntu yagera agafata ibyo afata akihuta agiye mu kazi kaba gaturanye n'umuhanda w'amabuye uri hirya gato kandi ubona wa nyabagendwa.

Imiturire mu gace ka Kimironko ahagaragara nk'aho hatuye abantu benshi gusa bataragera mu gihe tugezemo koko urabona hakirimo imihanda y'igitaka, ndetse ukabona ko ivumbi rwose rishobora kuba ribica cyane.

Ni inzira y'abanyamaguru ibi tuzi nka pedesho weyizi, iri ku ruhande rw'inzira y'imodoka, ukabona ko mu nzira y'imodoka harimo imodoka eshatu, gusa aha hantu hakaba hatagendwa cyane.

Imodoka ya Parado landi kuluza ti ekisi elu bigaragara kuri ari iya bibiri na cumi n'icyenda ifite purake eri a de gatandatu gatandatu gatandatu ekisi, hirya hari umugabo wambaye ishati ya kaki n'ipantaro ya kaki uri gutambuka ku kiraro.

Ni umuhanda w'ibyerekezo bibiri hakaba hari na parikingizi cyangwa aho bisi zihagarara, amatara, hafi y'umuhanda hamwe n'ibinyabiziga birimo biragendera muri uwo muhanda.

Uko bigaragara ni umuhanda uca muri quartier w'igitaka, nta bantu benshi bahatuye hepfo y'umuhanda ariko haruguru y'umuhanda hari amazu ubona y'amacadastre n'ibipangu bigiye bitandukanye.

Abantu bari kukazu mu inzu igurisha amayinite, abayobozi noneho bagiye nko kubikuza cyangwa kubitsa cyangwa kugura ikarita yo guha....

Umuhanda w'ibyerekezo bibiri, Ikigenda n’ikigaruka hakaba harimo umunyamagare icyo twat’umunyonzi hamwe n'umumotari, hakaba har’icyapa gihagararamo bus cyangwa se bus stop, hakabama n'abanyamaguru bagenda.